Imodoka y'imbangukiragutabara izwi ku izina rya Ambulance iri kuva ku bitaro bya Gatunda iri kujya kuzana umurwayi ahantu ku ivuriro ritoya kugira ngo bamuvure. Itwawe n'umushoferi wambaye ishati y'amabara y'umukara n'umweru.

Turabona abantu bambaye imyenda y'umuryango utabara imbabare y'umutuku, ijiri n'umupira, hakaba harimo Abadaso bambaye imyenda yabo y'icyatsi bari mu bantu benshi cyane, imbere turahabona ameza, hakaba n'imyenda yanitse ku ndabyo harimo uw'umutuku, uw'umukara ndetse n'undi wamabara y'ubururu n'utundi tuntu tw'umweru.

Aha turahabona abakobwa beza cyane uko ari bane bambaye amapantaro y'amakoboyi bakaba bambaye udupira tw'umweru twanditseho, ikigaragara ni uko bavuga kuri gahunda yo gutanga amaraso aho bari kuvuga ko gutanga amaraso ari ugutanga ubuzima.

Imodoka y'imbangukiragutabara, ihagaze aha ngaha ifite ipine rimwe bitwaza inyuma ryo kugira ngo bifashishe igihe bahuye n'ikibazo, hari abantu babiri bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'undi wambaye iby'umweru, bari guterura umurwayi bakamwinjiza mu iyi modoka ni umurwayi ukoze impanuka none bari kumutabariza ngo bajye kumuvuza.

Kwa muganga baba bagomba kwambara imyenda yabugenewe ibarinda kwandura indwara, ndabona abaganga bambaye amataburiya, udupfukamunwa ndetse n'utugofero mu ntoki, bari ahantu muri laboratwari aho bari gusuzuma imiti ngo bayigerageze barebe ikivamo.

Imbere y'inyubako hicaye abantu benshi cyane bicaye ku muronko harimo abagore n'abagabo, iyi nyubako ni inzu ifite inzugi z'umukara n'amadirishya y'umukara, ahagana hirya hakaba hari inzugi zisize irangi ry'umweru, hino nanone hari urugo ruzitiye rw'ibyuma kugira ngo hatazagira umuntu wahagwa.

Kwa muganga hari abarwayi benshi abambaye imipira y'imituku n'abandi bambaye ikote ry'umukara, bicaye bigunze, ni inyubako ubona igezweho y'iterambere ifite amabati y'ubururu, inzugi zisize amarangi y'umweru, hari aho bakirira abantu, hari n'ikigega bakuramo amazi bakoresha.

Abaganga bahagaze hano imbere kwa muganga, bambaye amatabuririya y'umweru bose. Hariho n'abandi bari guterura udutebe ngo batujyane batwinjize aho tuzajya dukoreshwa. Hariho abaganga bambaye impuzankano bakaba bambaye n'ibyo bita udupfukantoki mu ntoki kugira ngo batagira indwara banduza cyangwa se bakazandura.

Umugabo ahagaze imbere y'ipine rya Ambulance, ahagana ruguru ye hari abandi bantu bane harimo abagabo babiri n'umugore umwe ubarimo hagati. Ambulance ifite amabara y'umweru ndetse n'irindi ry'umutuku handitseho ngo imbangukiragutabara.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru ari gusuzuma umurwayi uryamye ku gitanda. Umurwayi arimo serumu, nawe yambaye agapira k'umweru aryamye ku gitanda kiriho amashuka y'umweru. Ku gikuta cy'inzu hariho amabara y'umweru, ni ahantu hakeye cyane.

Umugabo wambaye ishati y'amabara y'umweru, umukara n'utundi tuntu tudomo ifite ibipesu by'umukara ahagararanye n'umugore bafashe icyemezo cy'ishimwe bahawe kuko bari gushimirwa ibikorwa bakoze, inyuma y'umugore hari irido y'umuhondo, inyuma y'umugabo hakaba igipapuro cyanditseho utuntu dushushanyije tw'ubururu.

Aha ni kwa muganga aho hari abana babiri bicaye ku bitanda umuhungu n'umukobwa, hejuru y'umukobwa hari inzitiramibu, mu muryango hahagaze umugabo wambaye neza watebeje ndetse n'undi wambaye agapira k'umutuku n'umweru n'ipantaro y'ikoto, hari n'abandi hariho uwambaye akajiri n'abandi badamu babiri umwe yambaye ishati y'umweru, undi iy'umukara.

Abaganga bambaye amataburiya y'icyatsi bari gusuzuma umurwayi bari ahantu hari igitanda kiriho amashuka y'icyatsi, bose bambaye udupfukamunwa kugirango ngo birinde hatagira uwandura bambaye n'udupfukantoki hari n'akabati karimo ibikoresho byabo.

Kwa muganga aho uyu mugabo ari gusobanurira aba bose uburyo bagomba ,kujya bita ku barwayi hariho abaganga bambaye amashati y'umweru n'abantu b'abaturage basanzwe, bahagaze imbere hari inyubako ifite akantu k'umweru ndetse isakaje n'amabati meza, bari munsi y'igiti hari inyubako ebyiri zifatanye.

Indege ntoya itagira abapiloti itwara amaraso iyavana kwa muganga iyajyanye ahandi, iri kuguruka mu kirere, iyi indege isa umweru n'umutuku, munsi handitseho akajambo ngo zipurayine.

Aba bari mu nama aho bahuriye mu cyumba harimo umuzungu umwe wunamye, hakaba abandi bantu bose bicaye ku ntebe bamukurikiye, we ameze nk'uri gusoma muri Telefoni ababwira ibyo bagomba kuzajya bakurikiza. Bari mu nzu itatseho amashusho ku bikuta.

Umugabo ari imbere, inyuma ye hari ikibaho, ahagaze arebye mu baturage bicaye bitabiriye inama, hirya ye hari umugore wambaye itaburiya y'Ubururu wagirango ngo ni umuganga, hari abantu bicaye benshi ku ntebe bakurikiye inama yabo, n'ibyo bari kubabwira.

Aha ni kwa muganga aho bari mu cyumba bahuriyemo ari benshi, bambaye imyenda y'icyatsi yabugenewe, bambaye udupfukamunwa bose uko ari batatu. Hakaba harimo n'undi wa kane utari kugaragara neza mu maso, ikigaragara bari kwita ku murwayi.

Abagabo babiri bahagaze mu gahanda k'amapave bafite udupapuro kamwe k'umutuku n'akandi k'umweru badufatiye ku modoka y'ambirance bari kwifotoza, amburance ihagaze ifite nimero yo ku cyapa cyayo, ikaba ifite purake ga, ra, gatandatu umunani karindwi e, ikaba yarakozwe n'uruganda rwitwa Toyota.

Ni abamenyereye isomo bita ubutabire mu ndimi z'amahanga bakaryita chemistry, aha ni ahazwi nko muri laboratwari aho abanyeshuri baryamo bagafata ibintu bakagerageza bakareba ibindi bivamo, turahabona abanyeshuri bambaye udupfukamunwa tw'umukara ,harimo abahungu n'abakobwa barimo kugerageza ngo barebe ko bavumbura.

Umubyeyi ahetse umwana afite n'undi afashe akaboko bari kwerekeza kwa muganga, afite akamarete k'umutuku akaba yambaye ishati ndende y'amabara y'umutuku n'umukara n'utundi tujya gusa umuhondo, umwana yambaye agakabutura k'umutuku n'agapira k'umweru gafite ingofero.

Umupolisi ahagararanye n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, harimo uwambaye ikositimu, babiri bambaye udupira twanditseho uunisefu n'abandi bambaye imyenda ya gisiviri, inyuma yabo hari imyenda y'ibitambaro itatse mu ibara ry'idarapo ry'u Rwanda.

Aba bantu bicaye aha barishimye cyane, harimo abasirikare babiri n'abandi bantu benshi bambaye udupira tw'icyatsi twanditseho. Ni abakora mu kigo cy'Igihugu gishinzwe ubuvuzi RBC. Inyuma yabo hahagaze umugabo wambaye: ikositimu, ishati y'umweru na karuvati y'umutuku.

Umugore wambaye agapira k'umuhondo ari guha umwana ikinini, uyu mugore akora mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, hamwe n'undi mugabo nawe yambaye agapira k'umuhondo, uyu mugabo afashe umwana umugabo yambaye akajiri inyuma ye hagaze umupolisi.

Umudamu ukora mu kigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima yambaye agapira k'igitaka kitongo arabisi ara yanditse ra y'ubururu na ba y'umuhondo na ca y'icyatsi yambaye amataratara ahagaze imbere ari gutanga ikiganiro aho ari gukoresha indanguramajwi ya mikoro afite n'umusatsi ku mutwe we yambaye n'amataratara inyuma hahagaze abagabo babiri.

Abantu bicaye ku buryo bakoze uruziga bari kumva inama mo hagati hari akana kambaye igisurubeti cy'umweru kari kugendagenda mu ruziga hagati yabo, hicaye ababyeyi barimo abamo abagabo n'abagore bavanze bari kuganira uburyo babasha gukora bakiteza imbere ndetse bakemura n'amakimbirane yo hagati mu muryango.

Abagabo benshi bakora mu kigo cyitwa isange wani sitopu senta bahagaze bari hamwe n'abagore bari kwifata ifoto, hahagazemo umupolisi mo hagati n'abantu beza bishimye, urabona ko inyuma yabo har'inzu ifite ikibaraza bacamo gisakaye kugira ngo batanyagirwa, hakaba n'icyapa cyanditseho ngo isange wani sitopu senta.

Muganga ari kwandikira abarwayi indwara zabo mu gitabo, aho ari kubabaza ibyo barwaye akabyuzuza ku mafishi, bicaye bamurebye aho hari umusaza n'umukecuru we, umukecuru yiteza agatambaro k'icyatsi yambaye n'umwenda, bari mu cyumba gikinguye amadirishya harimo ameza n'intebe z'ishezi bicayeho.

Abantu benshi bateraniye aha, bicaye mu itente iryo tente risa umweru imbere, hariho igitambaro gifite ibara ry'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, nk'irangamu nk'ikirango cy'ibendera ry'u Rwanda, hari abana batoya bicaye hasi imbere yabo inyuma n'aho harimo abantu benshi mu itende.

Muri farumasi bacuruza imiti itandukanye, aho hano hari akabati karimo imiti myinshi iri mu ducupa tumwe dufite udupfundikizo tw'icyatsi, utundi dupfundikishije ibipfundikizo by'umweru, utundi ni uducupa wagira ngo turimo amavuta n'utundi dufite amabara y'umutuku ay'umuhondo n'ay'ubururu.

Umuganga ahagaze muri farumasi ye aho ahagararanye n'undi muganga wundi w'umugore bose bambaye amataburiya, inbere yabo hari ameza, inyuma yabo hari intebe bicaraho zifite imisego y'umutuku, muri etajeri zabo hamanitsemo imiti myinshi y'ubwoko butandukanye.

Aha hari inzu igezweho nziza cyane y'abasirimu hari umuntu utereye akabase k'umutuku ku rutugu haparitse moto, inyuma hahagaze n'undi mugabo, ahagana hino hari inzu nziza inzira nziza y'amapave ku buryo ntaho umuntu yahurira n'ibyondo.

Aha ni muri farumasi icuruza imiti, hahagazemo umugore n'umugabo bambaye amataburiya y'umweru bose bari kureba imbere, harimo imiti myinshi itandukanye iri muri etageri, imbere hakaba akandi kantu kazwi mu ndimi z'amahanga nka kotwari gatandukanya umukiriya n'umucuruzi kugira ngo umukiriya atabasha kwinjiramo imbere.

Iyi ni farumasi igezweho aho harimo imiti myinshi cyane itandukanye hari iri mu dukarito tw'umweru indi ikaba mu dukarito tw'umutuku indi ikaba mu ducupa, tukabonamo utundi dukarito turi gusa ubururu hakabamo ibikarito bigiye kuba binini hakazamo n'utundi dukarito dutoya cyane.

Muri farumasi habamo imiti myinshi itandukanye, aha ngaha hari imiti iba ipfunyitse mu dushashi, iyi miti iba ikozwe mu bwoko bw'ifu, uyu muti aba ari ingirakamaro cyane mu mubiri kuko iyo uwukoresheje indwara ihita ikira vuba vuba, ikagenda nka Nyomberi.

Tuba tugomba kumenya ko tugomba kwivuza haba kwa muganga ndetse no mu mavuriro yigenga azwi nka farumasi. Uyu mugabo wambaye ikositimu y'umukara n'ipantaro y'umweru n'inkweto z'umutuku, ari kujya gufata imiti muri farumasi aho bari kumusobanurira uburyo azajya ayikoresha. Harimo na kompiyuta bifashisha mu kubara.

Aha ni kwa muganga aho tubona abaganga bambaye amataburiya, bambaye n'utubaji mu ijosi. Hari ibitambaro bimanitsemo by'icyatsi ndetse n'ibikuta by'inzu by'umweru n'ibindi bitambaro by'umweru. Ahagana hirya hari abandi baganga nabo bari gutambika bagana hirya.

Umugabo uri kwigisha uburyo twakwirinda sida waturutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima aricyo RBC ari kwigisha urubyiruko uburyo bakoresha agakingirizo kugira ngo birinde indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Abatezi b'imiti irwanya Malariya ariyo yica imibu bambaye imyenda y'ubururu na ga z'icyatsi na bote n'amapantaro y'umukara hirya hari abapolisi babiri n'umugabo uhagaze hagati wambaye ikositimu imbere yabo bose hari amapombo bifashisha.

Umuganga w'umugore ari kwandika mu gitabo arikwandikira umurwayi waje kwivuza aho uwo mugabo ari kumupima umuvuduko ku kaboko, umurwayi yiteze agasharupe k'umuhondo abaganga bombi bambaye amataburiya y'umweru bicaye ku meza. Hari ibikoresho bifashisha byose.

Uyu n'umupfumu aho afite itabi mu kanwa, yambaye ibintu biteye ubwoba cyane impu z'inyamaswa, imbere ye hakaba hari ibikoresho yifashisha ari kuragura harimo utuntu tw'udukono ndetse n'ibibumbano by'abantu, hakaba hari n'inzoka iri imbere ye iteye ubwoba cyane.

Aba uko ari bane baricaye ku rubaho bose, imbere yabo hari ameza ariho imiti y'ibinini iri mu ducupa, hariho uyu mugore wambaye akantu k'akajiri k'umukara ari gusobanurira aba bandi uburyo bakoresha iyi miti, babiri bo hirya ni abajyanama b'ubuzima bambaye n'amataburiya y'ubururu.

Bba bagabo bose bari gukaraba, kugira ngo binjire babone icyo bakora birinda indwara. Bambaye udupfukamunwa bose, umwe ugana hino yambaye ipantaro y'ikoboyi n'agapira gasa icyatsi. Abandi bambaye udupfukamunwa dusa, umwe yambaye ishati y'umweru, undi yambaye ishati y'iroza.

Muganga yicaye ku ntebe ari kwandika mu gitabo giteretse ku meza hariho n'umuti wica udukoko uzwi nka sanitayiza uteretse imbere ye, hari n'umurwayi waje kwivuza yambaye ishati y'umuhondo, ateze n'agatambaro ari kumuha amabwiriza amubaza uburyo arwaye akandika mu gitabo cyo kwa muganga.

Aha tubona ni ku ipositi de sante yitwa gira ubuzima aho hashushanyijeho abantu, babiri umugore umugabo buri wese afashe umwana ndetse hasi hakaba hari akabaraza keza, imbere turahabona umugabo wambaye imyenda isa nk'iy'abakozi bo muri rege, n'undi wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umutuku, bateruye ikintu wagirango ngo ni umurasire cyangwa se urubaho.

Umuganga ahagaze imbere y'intebe afite ikayi nini izwi nka rogisitiri, inyuma ye hari umugore wambaye imyenda y'umukara n'akantu k'umweru kari mu musatsi afite mudasobwa, hirya ku ruhande hari abana babiri baje kwivuza bategereje ko babafasha.